Abaganga bari muri laboratwari biragaragara ko bari gusuzuma ibizamini byafashwe mu barwayi, hari umwe ufite ikayi n'ikaramu ari kugenda yandika mu rwego rwo kwirinda, bapfutse umutwe, bapfuka n'umunwa ndetse bambaye n'udupfukantoki tubarinda kuba mikorobe zajya ku biganza.

Icyumba cyo kwa muganga giteguye neza biragaragara ko ari aho babagira abarwayi bafite ibibazo by'ubuzima. Harimo supanete, harimo icyuma kigabanya ubushyuhe, ndetse hariho n'ibirahuri by'umweru, harimo amakaro ndetse na parafo iriho amatara.

Croix rouge umuryango wita ku mbabare, ni umuryango wamamaye ku Isi hose kubera ibikorwa by'ubutabazi, aha turahabona imodoka yabo iri mu mabara y'umutuku n'umweru nk'uko n'ubundi ikirango cyabo usanga cyo arimo gishushanyije.

Umurwayi wazanwe kwa muganga atumva, atabona bikekwa ko ashobora kuba yararwaye Covid19 hanyuma ikamuzengereza cyane ariko abaganga baratanga icyizere ko aza kwitabwaho agakira vuba.

Mu rwego rwo kugira ngo abarwayi barembye badapfira mu rugo, ikigo cy'igihugu cyita ku buzima gifatanyije n'umuryango wita ku mbabare Kuruwaruje, usanga ugerageza kwegera aho abarwayi bari.

Muri iki cyumba biragaragara ko ari icyumba gitangirwamo ubuvuzi bwihuse bitewe n'uko kizanwamo abarwayi barembye cyane. Uyu nguye yajemo ababaye ariko yatangiye gutora mitende.

Mu rwego rwo kugira ngo hitabwe ku barwayi baje bafite ibibazo byihutirwa, bajyanwa mu byumba by'indembe akaba ari ho bajya kuvurirwa bagahabwa ubutabazi bwihuse, butandukanye n'ubw'abandi barwayi baje bigenza.

Ibitaro ndetse n'izindi nyubako zifasha abarwayi gukira indwara, ni hamwe mu hantu usanga isuku idasanzwe bitewe n'uko haba hirindwa ko umurwayi yaza aje kwivuza aho kugira ngo ataha akize, akahakura izindi ndwara.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe bari iruhande rw'ibitaro, niho bari kurebera hamwe icyo bashobora gukora kugira ngo hirindwe indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse n'izituruka ku mwanda, bityo ubuzima bw'abaturarwanda bukomeze kugenda neza.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, aha ngaha ni muri laboratwari basuzumira ibizamini by'abarwayi batandukanye, biragaragara ko harimo abaganga babiri n'umurwayi uzanye ibizamini ngo ahabwe ibisubizo babone umuha imiti.

Abagore n'abagabo bambaye amajile, bigaragara ko ari abakozi b'umuryango wita ku mbabare Croix rouge, bahagaze hafi ya sale ya mbere, aho sale ya kabiri iriho iberamo inama, baje kuya mbere ngo birinde guteza urusaku.

Umugabo bigaragara ko asobanukiwe cyane kandi akaba n'inararibonye, ari gusobanurira bagenzi be uburyo bwo kwihutira kwivuza mu gihe bumva bafashwe n'akarwara, nubwo bakwita ko ari gato.

Inama yahurije hamwe urubyiruko n'abayobozi bo mu nzego nkuru, iri kwigira hamwe ibijyanye no kwita ku buzima bw'imyororokere, insanganyamatsiko bari kuganiraho iragira iti rubyiruko kugira amakuru ku buzima bw'imyororokere ni uburenganzira bwanyu.

Umugabo witwaye mu modoka y'umweru ibonerana cyane yafunguye ikirahuri arakimanura ku buryo ari kugenda asuhuza abo anyuzeho kumuhanda, ahari guca biragaragara ko ari mu cyanya kirimo ubwatsi ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Ku kigo cy'amashuri biragaragara ko abana bari mu kiruhuko. Abarimu nabo ntabwo batanzwe kuko barimo barakina nabo imikino y'amaboko. Uwo bari gukina ntuzwi nka volebolo. Iruhande rwabo hari ababyeyi bari gutambuka bitegereza uko bakina neza.

Abagore n'abagabo batandatu biragaragara ko bari gufata indahiro, aba ni abagore basanzwe bakora mu gice cy'ubuzima, aho biteguye gutanga imbaraga zabo z'umubiri ndetse n'ubwenge.

Umugabo wakingiwe urukingo rwa mbere rwa Covid cumi n'ikenda, yari yagiye kwikingiza urwa kabiri kugira ngo urwo yahawe habeho ikiswe gushimangira, ku buryo ruba rufite ubudahangarwa.

Abagore babiri buri mugore acigatiye akana mu ntoki ndetse afite n'igipande yaje kugakingizaho, iruhande rwabo hari umugabo na we waje gushaka serivisi z'ubuvuzi ariko we ameze nk'urwaye Malariya kuko arimo aratitira.

Mu rwego rwo kugira ngo Abanyarwanda babashe kugira ubuzima buzira umuze, Leta y'u Rwanda uretse kubaka amavuriro ndetse n'ibigo nderabuzima, yanashyizeho uburyo bwo gufasha abaturage mu mudugudu aho yashyizeho abajyanama b'ubuzima, bahugurwa ku kuba batanga ubuvuzi bw'ibanze.

Umuganga wize ibijyanye nalaboratwari muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya huye ahahoze hazwi nk'i butare muri kaminuza nkuru, kuri ubu ngubu asigaye akora mu bitaro bya kabutare afasha abarwayi gukira indwara.

Muri laboratwari haberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hashobora gukorerwamo ubugenzuzi bw'imiti yakozwe cyangwa se hagasuzumirwamo ibizamini biba byafashwe abarwayi bagiye batandukanye, harebwa ku burwayi bwabo.

Raboratwari zo kwa muganga inyinshi usanga zikorwamo n'abaganga bize ibijyanye na rabo. Uyu mugabo yize rabo i Butare, afite uruhara bitewe n'imyaka myinshi amaze akora aka kazi.

Amalaboratwari menshi usanga arimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga aho usanga ababikoresha aba ari inzobere zize muri kaminuza y'u Rwanda, kaminuza zigenga ndetse no mu makaminuza yo hanze y'igihugu.

Ibikorwa byinshi bikorerwa muri laboratwari usanga bikorwa n'inzobere mu buvuzi ziba zarize mu ma kaminuza yo mu Rwanda ndetse no hanze, hanyuma abarwayi bazanye ibizamiini byabo bikaba bidashobora kubusana ngo bahabwe imiti itabaki.

Laboratwari usanga ahanini ziboneka kwa muganga by'umwihariko mu bitaro bikuru ndetse no mu makaminuza yigisha ibijyanye n'ubuvuzi by'umwihariko muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye, iherereye ahahoze ari i Butare.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe, yaje kwiga uburyo wakwita ku buzima bw'umugore n'ubw'umwana by'umwihariko igihe umugore atwite ndetse n'igihe umwana ari munsi y'imyaka itanu, hirindwa impfu za hato na hato.

Mu rwego rwo kwirinda impfu z'abana bapfa bavuka ndetse n'abana bapfa bataragera ku myaka itanu, leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'ubukangurambaga bwo kwereka ababyeyi, uburyo bagaburira abana babo babarinda imirire mibi, ishobora no kugeza ku mfu.

Umubyeyi wubahirije uburyo bwo kwikingiza no kwisuzumisha igihe yari atwite, afite umwana we umeze neza bigaragara ko n'imirire ye igenda neza, uyu mwana yambitswe umupira w'umukara uri mu budodo ndetse akaba yambaye n'ikabutura iri mu amabara y'umweru.

Imirenge umunani yo mu Karere ka Kicukiro yateraniye hamwe iri guhabwa amahugurwa y'uko bakwiye kwirinda indwara ziterwa n'umwanda bikaba byakurura impfu z'abana bapfa bavuka ndetse n'abapfa bataragira imyaka itanu.

Mu rwego rwo kwirinda impfu z'abana bavuka batarageza igihe, Leta y'u rwanda yashyizeho ubukangurambaga aho abanyabuzima bazenguruka mu baturage basobanurira akamaro ko kwisuzumisha igihe batwite.

Mu rwego rwo kwimakaza imirire myiza mu Rwanda, hagamijwe kugira ngo abana bavutse n'abavuka bakomeze kuvuka bafite imibereho myiza, hanirindwa impfu z'abana bapfa bavuka, ibi byose bikorwa bigizwemo uruhare n'abanyabuzima.

Mu rwego rwo kugabanya impfu z'abana bapfa bavuka n'impfu z'abanapfa bataragira imyaka itanu, usanga ababyeyi bakangurirwa n'abajyanama b'ubuzima, kwita ku isuku y'imirire ndetse no gutegura ibiribwa mu buryo bufite isuku.

Mu rwego rwo kwimakaza ubuzima ndetse no kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, abanyeshuri usanga bafata umwanya bagahurizwa hamwe bakigishwa uko bakwiye kububungabunga nk'abantu b'injijuke.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bitabiriye ubukangurambaga bugaruka ku buzima bwo mu mutwe n'ingaruka z'ubuzima bwo mu mutwe butitaweho neza, abagore abagabo bose bambaye ingofero zanditseho RBC, ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko ubw'abageze mu zabukuru, Leta y'u Rwanda yashyizeho ubukangurambaga bugenda bukorwa muri buri mudugudu kugira ngo hamenyekane abafite ibyo bibazo, akaba ari akazi gakorwa n'abanyabuzima.

Umugore ugaragara nk'ukuze ariko nanone udashaje yambaye umupira w'umweru, barasa naho bari mu bukangurambaga, hari abantu arimo arabwira kuko mikoro afite n'indangururamajwi igeze amajwi kure cyane.

Abagore n'abagabo bambaye amakarita y'akazi, bafite imita irimo amabara y'umuhondo n'umutuku, biragaragara ko barimo mu ibikorwa by'ubukangurambaga byita ku buzima, bayifatanyije n'inzego zishinzwe umutekano zirimo ingabo na Polisi.

Umugore ukenyeye igitambaro cy'umukara mu mutwe akaba yambaye n'ikanzu afite n'isaha ku kaboko, afashe mikoro izwi nk'indangururamajwi arimo arabwiriza abitabiriye igiterane cy'ivugabutumwa.

Ubwo hafungurwaga ikigo cya Isange one stop center, abantu benshi ntibabyumvaga ariko kuri ubu bitewe nuko kigira uruhare mu gukangurira abaturage n'abaturarwanda muri rusange, kwita ku buzima bwo mutwe usanga byarafashe indi ntera.

Mu rwanda muri buri mudugudu ndetse na buri kagari, hagenda hashyirwaho umunsi umwe byibura mu mwaka wahariwe kwita no kurengera ubuzima bwo mu mutwe, hitabwa by'umwihariko ku bana bakiri batoya.

Mu rwego rwo kwita ku buzima bwo mu mutwe buri gihe usanga Leta yarashyizeho abakorerabushake bashobora gufasha buri muntu wese wahura n'ikibazo mu buryo butunguranye, bakaba bamugeza kwa muganga mu buryo bwihuse.

Muri farumasi uhasanga imiti myinshi cyane inyuranye ku buryo hari n'ubwo hari imiti imwe n'imwe leta igenda ibuza abantu gukoresha bitewe nuko ikeka ko yabateza ibibazo. Imwe muri yo igenda ikurwa ku masoko, bawugufatana ukabihanirwa.

Etageri iri mu nyubako ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi izwi nka farumasi, harimo imiti myinshi cyane igiye itandukanye. Ifunze mu dukarito, amacupa, yaba ivura umutwe, ibisebe ndetse n'umugongo.

Umugabo uhagaze mu iduka ricuruza imiti ndetse n'ibiribwa, biragaragara ko yumiwe bitewe n'uko ya yavuze abakiriya. Afite agakaramu ari kureba abamurimo amadeni ngo arebe ko yabahamagara bakamwishyura.

Abaganga babiri bari mu cyumba kizwi nka farumasi ahatangirwa imiti, buri umwe afite ikayi ari kwandika imiti agomba guha umurwayi wamaze gusuzumwa, agafatwa n'ibizamini byo kwa muganga.

Farumasi nyinshi ntabwo ushobora kuyishinga utarize farumasi, akenshi na kenshi iyo ufite amafaranga ushaka kuyishinga, urayishinga ariko ugahita uzanamo umukozi wo kugukoreramo bitewe n'uko we aba yarabyize ukajya umuhemba.

Mu rwego rwo kugira ngo umusaruro ukomoka ku bihingwa ndetse n'ubworozi ukomeze kurushaho kuba mwinshi, usanga abaveterineri bagira inama borozi, kwita ku buvuzi bw'amatungo yabo

Inka yariye neza usanga akenshi na kenshi aborozi bagezweho banazitera vitaminini kugira ngo zibashe kugera ku rwego rw'ibiro bifuza, yaba izivamo inyama ndetse n'izitanga umukamo zigatanga umukamo uhagije.

Farumasi nyinshi usanga ziba zirimo amayetajeri kugira ngo bitandukane, niba ari imiti y'abarwayi bafite ibibazo by'umugongo, iby'impyiko n'ahandi, ku buryo buri wese aba abona aho umuti ashaka uri.

Ahangaha haragaragara ibicuruzwa bitandukanye birimo imyenda yambitswe maneke kugira ngo abaza kuyigura babone ubwiza bwayo, ni maneke zirimo iz'ibigabo n'ibigore, hejuru yazo hari icyapa kigaragaza ngo muganga w'amenyo.

Umuhanzi ahagaze imbere y'urubyiruko arimo aririmba indirimbo ze mu bitaramo kugira ngo arebe ko yakwegukana amarushanwa, abo ari kuririmbira ni ingeri zitandukanye, abana, urubyiruko ndetse n'abakuze, ikindi kandi afite umusatsi ubnga mu mugongo n'ubwoubwo ari umugabo.

Urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, bitabiriye igikorwa cyo kwita ku buzima kiba ngarukamwaka. Aha ngaha ni igikorwa cyatewe inkunga mu Rwanda na RBC nk'ikigo K'igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Mu rwego rwo gukangurira abaturage kugira ubuzima bwiza, Leta ibinyuza mu bukangurambaga barimo n'abanyabuzima kugira ngo babashe gushishikariza abaturarwanda bose by'umwihariko abatuye mu gice cy'icyaro, kugira isuku yaba iyo ku mubiri ndetse n'iy'ibiribwa.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe, kugira ngo ihugurwe ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe muri gahunda ya leta yo kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo u Rwanda, rwame rufite abaturage bafite ubuzima buzira umuze.

Mu bukangurambaga bwo kurwanya virusi itera sida ndetse n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, leta y'u Rwanda yifashisha abasore n'inkumi mu kugira ngo bashishikarize bagenzi babo, guhangana n'ibibazo bishobora guturuka kuri ibyo byose.

Abagore n'abagabo bitabiriye igikorwa cyo gukangurira abaturarwanda kwita ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko. Bahawe imipira izajya igaragaza ko bitabiriye iyo nama kugira ngo abo babwira babashe kubumva.

Umuti watunganyijwe neza ugashyirwa mu bikombe, biragaragara ko amaherezo yawo ugeze kuri etape ya nyuma yo gutunganywa, hanyuma ukoherezwa ku isoko ukajya gucuruzwa ugakurwamo amafaranga.

Imiti gakondo yatunganyijwe ikavanwa mu byatsi ikumishwa itegerejwe kujyanwa mu ikusanyirizo igatunganywa, hanyuma igapfundikirwa mu macupa meza ku mbere yuko ijya ku isoko.

Umugabo wahiye akaboko n'akaguru by'uruhande rw'ibumoso yokejwe n'igikoma, witegereje neza ushobora no kuba wakeka ko bitewe n'ingano y'ubushye n'uburemere bwabwo, arwaye ubushita bw'inkende.

Imiti gakondo kuri ubu ngubu iyo itunganyijwe neza, yaba ibitunguru, umuravumba, igicuncu, tangawizi, ishobora kuvura ariko na none abanyarwanda bagashishikarizwa kutondera kuyinywa kuko ibipimo byayo bishobora guteza akaga.

Umugore bigaragara ko ariko kubabara bitewe n'uburwayi afite, afite umusatsi ukora mu mugongo. Yambaye iribaya ririmo amabara y'umutuku ndetse n'umweru. Umuganga uri kumwitaho ari kubanza kumuganiriza, we yambaye ga zijya kuba ubururu mu ntoki.

Ikigo nderabuzima cyanditseho ijambo rigira riti ''gira ubuzima,'' imbere y'iryo jambo hari umubyeyi w'umugabo n'uw'umugore umubyeyi w'umugabo afite umwana mu ntoki ndetse n'umubyeyi w'umugore afite umwana mu nntoki, hasi y'aho hari umugore ufite malete ku rutugu ari kugenda.

Umurwayi wagiye kwa muganga arembye cyane yagezeyo ahasanga umuganga ariko w'umunyeshuri wimenyereza umwuga w'ubuvuzi, amwitaho bitungura abantu benshi uburyo uyu munyeshuri, umaze igihe gito atangiye kwiga ashobora kwita ku murwayi bene aka kageni.

Ikigo nderabuzima cya Nyagatare ni kimwe mu bigo nderabuzima bikunda guhabwa ibihembo by'indashyikirwa bitewe na serivisi zihatangirwa, abaganga bahakorera na bo bishimira ko batanga serivisi nziza ndetse n'abayobozi bo mu nzego nkuru bakabibona.

Inzu igaragara nkaho ari poste de sante iri mabara y'ubururu, haba ku bisenge, ibikuta ndetse n'amasakaro. Iruhande hicaye ababyeyi bazanye abana kubasuzumisha no kubavuza.

Gira ubuzima aya ni amagambo yanditse ku nyubako bigaragara ko itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iruhande rw' ayo magambo hari ababyeyi babiri umugore n'umugabo, buri mubyeyi afite umwana mu ntoki.

Inyubako isize irangi ry'ubururu hejuru yaho hari icyapa kiriho umwana n'umugore ndetse n'umwana n'umugabo. Amagambo yanditseho aragira ati "gira ubuzima."

Ababyeyi bajyanye abana babo kubakingiza kwa muganga abaganga bari kubafasha ni babiri, umuganga umwe ni umugore undi muganga ni umugabo, umuganga w'umugore yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ingofero y'umweru mu mutwe mu gihe umugabo yambaye amarinete n'ishati y'umweru.